Umugabo wambaye umupira w'umukara, ingofero y'umukara ndetse n'agashanete mu ijosi rye, wambaye inkweto y'umukara ndetse n'isaha nziza, bigaragara ko ari guteresha irangi mu isura yuzuye uburakari abwira umukozi ati; "tukayitera irangi." Mu nguni harimo itara rimurika cyane.

Iduka ricuruza amata meza atunganye ya sosiyete y'inyange, ndetse n'amazi yo mu bwoko bwa gibu hari umugore uri gutanga ibicuruzwa, ndetse n'umugabo uri gufata amata mu kabido iruhande rwe hari umwana wambaye umupira wicyatsi ndetse n'undi wambaye ibara ry'ubururu akaba yambaye inkweto z'umutuku n'isengeri y'umweru ari kusi.

Inyubako iri ahantu hihariye hatuje ndetse hari isuku, ikaba irimo intebe z'umukara zifite imisego y'umukara, imbere yazo hari ameza ateretseho ikayi ndetse n'izindi ntebe z'umutuku. Iyi nyubako ikaba ifite ibirahure birebire ndetse n'amatara yo mu ibaraza, hasi hakaba hari amakaro. Mbese mu kugira isuku ni byiza mu Rwanda.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye, ryicaye mo abantu bagaragara ko bari gutanga ibicuruzwa ndetse ririmo abantu bagendereye bari gushaka ibicuruzwa bigaragara ko aha hantu hakorerwa imirimo itandukanye bikaba ari byiza guhahira ahantu nk'aha kuko byongera urukundo ndetse n'ubumwe mu bantu.

Isoko ririmo imboga n'imbuto zitandukanye hagaragara imboga nk'intoryi, karoti, inyanya, ibitunguru, dodo, ibigori ndetse n'izindi, hari n'ibiribwa byinshi biri ku mameza harimo ibitoki hamwe n'abantu bari mu isoko bari kugura cyangwa kugurisha, hari ibiribwa bifite amabara atandukanye nk'icyatsi, umutuku, umuhondo n'icunga bigaragaza ubwiza bw'imbuto n'imboga. Ibi byekana ubucuruzi bw'imboga n'imbuto bukoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Akazu k'ikigo gitanga serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bigaragazwa ko hano hantu ha hatangirwa serivisi z'icyo kigo gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda hahagazeho umugabo wambaye umupira w'umukara bigaragara ko ari kwibaza ku kintu cyangwa ategereje serivisikuru n'umugabo wundi uri muri kano kazu gatangirwamo zino serivisi.

Inyubako yo guturwamo iherereye ahagana kibagabaga mu mujyi wa kigali ikaba iri ku mafaranga amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu irimo tapi z'umutuku ndetse n'amarido y'umukara ari mu marangi y'umweru ikaba irimo amafoto agaragaza ahantu nyaburanga ku isi ndetse n'inzugi z'umweru ziro selire .

Inzu y'ibyumba bine y'agahebuzo iri ahagana ku gisozi I kigali irimo ubwogero bwiza ndetse n'ubukarabiro ndetse n'ubwiherero bumeze neza ku ruhande hari amakaro ndetse n'ibirahure n'ibindi bikoresho by'isuku ,ikaba iri ku gisozi ahantu hazwiho umutekano ndetse n'ibindi bintu byiza bihaba nagushishikariza .

Inzu nziza iri Kigali mu Rwanda igurishwa ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu, inzu ifite idirishya rinini ry'ikirahure, urukuta rufite ibara ry'umuhondo woroheje n'ibyuma bikingira ku muryango, amadaraja ayigeraho afite amacupa y'icyuma nk'inkomyi naho hasi hubatse amabuye y'ubwoko bwiza, hari amagambo agaragaza ko ibumoso bw'ikibanza hari metero kare magana tatu mirongo irindwi n'eshanu.

Igipangu kirimo inzu bigaragara ko ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda, iruhande rwayo hakaba hari inzu izwi ku izina rya kadasiteri ndetse iparitseho ikinyabiziga imbere cyo mu bwoko bwa moto, imbere hari umuhanda w'igitaka ufite aho werekeza ndetse n'igipangu cyiza kiri mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho umugabo wambaye amadarubindi, ndetse n'ingofero akaba ahetse igikapu cy'umutuku mu kaboko ke k'iburyo, iki cyapa kandi kikaba kiriho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu, arimo n'izuba avuga ngo ejo heza, munsi yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru yanditse uzakomeza kurimba no muri pansiyo, aya magambo akaba asobanuye ko warimba no muri pa

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, birimo amata, imitobe, ndetse n'agasembuye, hakaba harimo umugore wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umupira w'umukara, bigaragara ko ino nzu ikorerwamo ubucuruzi ndetse bwisumbuyeho, hakaba hari isuku hakaba ari nk'ahantu nyaburanga.